Umunyarwanda wo ku gihe c'abami ni uku yiyogosheshaga, gariya ni amasunzu kandi bambaraga imyenda imeze nk'imikenyero, igaragaza yuko ari abanyarwanda, bagaragazaga umuco wa bo kandi bakanawukunda.

Iyi ni ingobyi ya kinyarwanda. Yegeranye n'umuvure, umuvure bakamiramo ibitoki bari kwenga inzoga, hariho n'igisabo, yewe hariho n'isekuru, n'umusekuzo wayo.

Ababyinnyi bitwa intore. Barimo kubyina ibyo bita guhamiriza. Babyinaga amatorero atandukanye ndetse no mu birori.

Gicuma, kirimo umusururu, gwabize cyane. Bigaragara y'uko guryoshe, kubera y'uko gwataye kime.

Iyi ni imvange y'ibiryo baryaga mu gihe c'umuganura, ivanzemo:ibijumba, ibigori, ibishimbo n'ibihaza. ibi biryo biraryohaga upfa kuba ubiriye ufite inzara .

Abavuzi b'ingoma na bitwaga abakaraza. Aba bahozeho mu muco nyarwanda bavuza ingoma. Kandi bashimishaga abantu bose babateze amatwi.

Iki gikombe gifashwe n'uyu muntu muri kureba harimo umusururu igikombe citwa muhinzi haka harimo umusururu w'amasaka.

Izi ni intore ziri kubyina imbyino za Kinyarwanda, ziri guhamiriza zikavuna umugara mu buryo buryoheye ijisho.

Iri mubona ni itara ryo ku muhanda, kaburimbi, nabira biti mubona biri ku muhanda ,riratara rero rimurikiraga umuhanda ndetse n'abagenzi.

Aba baturage bari mu inama, uriya mureba ni umuyobozi ubahagaze imbere arimo kubabwira ibyo bagomba kubahiriza n'ibyo bagomba kureka.

Aba ni abaturage bari mu nama. Uriya mugore uri kugamba ni umwe mu baturage ari gutanga ibitekerezo bye, cyangwa se akaba ari no kubaza ibibazo.

Aba ni abamotari batwaraga abagenzi bari kuri moto zabo, bategereje abagenzi ngo babatware mu nce zitandukanye.

Aba ni abanyeshuri barikuva mu biruhuko. Bari kujya ku bigo by'amashuri ni itangira ry'amashuri. Birumvikana yuko bavuye mu ngo iwabo bahuriye muri gare rero batega imodoka.

Iriya modoka iri muri gare, ariko hirya ya gare hariho kaburimbo. Irya ya kaburimbi, hariyo amazu maremare agerekeranye abantu bacururizagamo.

Iyi modoka yitwa volukano. Itwara abagenzi. Rero aba ni abanyeshuri bari kugana ku bigo byabo, bagiye ku ishuri. Niyo mpamvu batonze umurongo kugira ngo bajye mu modokari bitabagoye.

Aha ni mu muhanda urabona ko harimo abamotari batwaraga abagenzi, harimo n'abanyeshuri bari kuja ku ishuri ndetse n'abandi bari kuja mu masoko n'ahandi hatandukanye.

Aha mureba ni muri gare. Aho abagenzi bategeraga imodoka, zigiye mu duce dutandukanye, bitewe n'aho bifuza kuja mu turere tunyuranye.

Iyi modoka: Iyi modokari yitwa Valukano, itwaraga abagenzi ikabajana mu nce zitandukanye z'igihugu cacu c'u rwanda.

Iyi modoka ni bisi itwara abagenzi, urayibona yuko iri mu muhanda, iba irimo bagenzi makumyabiri n'icyenda, ni imodoka nziza nini rwose, ishobora gutwara abagenzi benshi kandi mugihe gito.

Indege ya Rwandeya ikorera mu Rwanda, itwaraga abantu batandukanye iri kubajana mu turere dutandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye, ikabatwara ibavanye ku kibuga cy'indege cyane cyane yakundaga gukorera i Kanombe ndetse ikabajyana mu bihugu by'abaturanyi.